Kuhiza amapompo baheka umugongo byahereye na kera byakozwe kuva kera, ariko ubu uko igihugu kigenda gitera imbere, niko hagenda hagaragara ubundi buryo bwiza bworoshye bwo kuba wakuhira imyaka cyangwa ukayitera imiti.

Buri kimera cyose gikenera umuti wakigenewe kugira ngo kibeho neza, bityo ibice byacyo byose bikagumya gukora ndetse kikabasha no gukurura izuba rihagije rizagitunga.

Ni byiza ko igihe wahinze ibigori ugomba kujya ubitera umuti inshuro nyinshi zifatika kubera ko nkongwa iyo yabigezemo irabyangiza bityo umusaruro wari witeze ukaba waba muke cyangwa wose ugakendera.

Umuturage wese aho ava akagera burya aba akeneye ibikoresho by'ibanze byose mu kwita ku myaka ye nko kuba yaba afite ipompo akajya atera imiti iyo myaka, akitaho no ku gihe cyo kuhira akajya abikora neza kugira ngo akure neza iyo myaka.

Buri wese wahinze imyaka runaka kuhira gusa no kuyitaho mu bundi buryo ntibiba bihagije, ahubwo agomba no kujya anyuzamo akayitera imiti yica udukoko kugira ngo tutayangiriza.

Uburyo gakondo bwo kuhira bwa kera wasangaga abantu bagira amapompo bambara mu migongo. Bityo bakajya bayakoresha mu kuhira ariko ubu atangiye gucika, harimo haraza ubundi buryo bwiza bworoshye.

Igihe umuntu yakoze ubworozi bw'amafi, agomba no kujya ayashakira ibyo arya kuko burya nayo arororwa akaba yashakirwa ibyo kurya kugira ngo yororoke.

Umushinga wo korora amafi, ni ikintu utahabukira. Urabyitondera, ukabyiga ni na byiza ukabaza n'amakuru ku babikoze mbere, kugira ngo ubone gutangiza uwo mushinga kuko uragora cyane.

Si byiza kurobesha amafi intoki, kubera ko hari ibikoresho byabugenewe biba biroba amafi kuko ushobora kuhahurira n'ibibazo bitandukanye utatekerezaga ko wahuriramo n'abyo.

Abantu borora amafi baba bazi ubwoko bwayo bugiye butandukanye ariko abayagura usanga akenshi batazi ubwo bwoko, kuko bagura bishakira kurya inyama ari nta kindi bakurikiyemo.

Ubworozi bw'amafi ntago bukorerwa aho ariho hose, hagomba kubanza gupimwa hakareba niba hujuje ibisabwa maze hakobona gukorerwa ubwo bworozi kugira ngo buzagire umusaruro mwiza.

Mu bishanga bigiye bitandukanye cyane cyane ahakorerwa uburobyi bw'amafi ndetse n'ibindi bitandukanye hagomba kuba harimo utuzu kugira ngo bajye babikamo ibyo kurya by'ubwo bworozi borora.

Ubuhinzi bw'amafi cyangwa se ubworozi bw'amafi butanga umusaruro cyane ku muntu wabyitayeho bityo akabona amafaranga menshi kuko na we aba yarabishyizemo imbaraga ze.

Iyo ugeze mu gishanga ugasanga hari imyaka runaka yahinzwemo imeze neza, bishobora kugutera imbaraga nawe zo gutangiza uwo mushinga, nawe ukajya wihingira ukabona umusaruro nk'uwo.

Ababyeyi bamaze kumenya ibanga ryo gutera icyayi kubera ko kigurishwa mu mahanga n'u Rwanda rukabona inyungu muri cyo kubera ko aribwo buhinzi u Rwanda rufite rwohereza mu mahanga.

Nubwo ubuhinzi bw'ikawa butaragera ahantu hose bitewe n'ubutaka abaturage bafite ariko ku wabikoze neza abonamo amafaranga menshi kuko bigezweho.

Kimwe mu bihingwa nk'icyayi ndetse n'ikawa, byagaragaye ko u Rwanda ari byo rukungahayeho kandi rukabigurisha mu mahanga maze rukabona amafaranga menshi aturutse muri byo.

Iyo ikawa zimaze gusarurwa zigatunganywa, umuntu aba afite kuba yazijyana ku ruganda bakamuha amafaranga bakazitunganyiriza neza, bakaba bazikoramo ibindi bintu bashaka.

Umuhinzi wahinze ikawa igihe kirekire aba azi agaciro kazo kubera yuko iyo amaze kuyigurisha abona amafaranga menshi, ntakura mu bindi bihingwa ibyo ari byo byose.

Abahinzi iyo bamaze kweza umuceri cyangwa bamaze kweza icyayi cyabo bakenera kugisoroma, bityo rero iyo bagiye kugisoroma baza ari benshi kugira ngo babikore mu gihe gitoya.

Ku bantu bahinga ikawa, barabizi cyane ko ari igihingwa gitanga amafaranga menshi. Bityo uwayihinze ntashobora kugira ubukene kuko iyo yeze, amafaranga baramurundira.

Abaturarwanda bose bakamenye ko gutera ikawa ari ibintu bitanga umusaruro maze buri wese akabigira ibye akayishyiramo imbaraga kuko ni na yo yoherezwa mu mahanga ni na wo mutungo Igihugu cyacu gifite uremereye.

Guhinga ahantu mu bishanga cyane cyane uzajyabona uko wuhira, imyaka yawe ntishobora kwicwa n'izuba kubera yuko wegereye amazi kandi wuhira kenshi gashoboka kugira ngo imyaka yawe ibeho neza.

Ku bantu bamenye neza icyo ubworozi bubafitiyemo akamaro bakunda kugurira ibyo kurya amatungo kugira ngo ayo matungo abeho neza kandi atange n'umukamo.

Imiti y'amatungo ibikwa mu tubido igomba kubikwa ahantu heza habugenewe kugira ngo itangirika kandi ukareba neza niba idashobora kuba yameneka kuko aho imenetse ntabwo hahumura nabi.

Imiti y'amatungo ibikwa mu bishashi byabugenewe ndetse ahantu hadashyushye cyangwa ngo habe hakonje cyane, ni byiza ko ibikwa yabanje kureba niba icyujuje ubuziranenge.

Usanga abantu benshi bigira Nyayagatare kugurayo amata kubera ko ni iwabo wayo kandi niho igicumbi cy'inka kiri kandi n'ibindi byose birimo nk'amavuta y'inka usanga ariho bibarizwa cyane.

Ni byiza ko ubu bucupa buba burimo imiti y'amatungo magufi cyangwa maremare, ububika kure y'abana kubera ko umwana iyo akagezeho, ashobora kuba yarya uwo muti, atazi ko wamwica.

Gutera ibiti bisaba kuba warabihumbitse, ukabishyira mu bihoho byabyo, hanyuma ukazabikuramo ,ukabikura mu mashashi yabyo, ukabicukuri umwobo mwiza byaba byiza ugashyiramo n'agafumbire kugira ngo bikure neza.

Kubanza guhunika ibiti mbere y'uko ubitera biba byiza kurushaho, kubera yuko iyo bimaze gukurira mu gihoho, urabijyana ukabitera ahabugenewe, ukabikuramo icyo gihoho, ubundi ukabishyiramo agafumbire bigakura neza.

Ubuhinzi bw'inanasi nabwo bugira amafaranga menshi ku muntu wabyitayeho, rero kubera ko abantu benshi batazi agaciro kabyo, baba bumva bashaka amafaranga bakabigura kandi kubyihingira byoroshye.

Byakunze kumenyekana ko iyo ugiye gutera igiti ubanza kugishyira mu gihoho, ukakitaho cyamara gusa n'igikuze ukagikuramo ukajya kugitera ahabugenewe, ugakomeza ukagikurikirana kugeza gikuze.

Abahinzi b'umuceri usanga bakunda kuwitaho cyane kubera ko wonwa n'inyoni cyane iyo utawitayeho bityo ugasanga bakoze uburinzi kuva umuceri ukuze kugeza bawusaruye.

Iyo uhinze ibigori mu buryo bubi, ubisarura nabi ndetse umusaruro ukaba muke. Nyamara ndashishikarizwa gukoresha tubura ndetse n'ibindi byose dushishikarizwa kugira ngo imyaka yacu ikure neza.

Abantu benshi iyo babonye ikirere kimeze neza, bakunze guhita batekereza ko nta mvura ishobora kugwa, nyamara ikirere gihinduka akanya ku kandi, kuko ushobora kubona ari kwaka izuba mukandi kanya ukabona imvura iraguye.

Byakunze kugaragara ko mu ntara y'amajyaruguru bakunze guhinga cyane ibirayi kandi bikabahira bike ku bwinshi kubera ko bagemurira uburere bugiye butandukanye kuko baba bafite umusaruro uhagije.

Bimwe mu mbuto z'ibigori bisa umuhondo bikunda kuryoha cyane ku bantu babyotsa ariko na byo iyo utabyitayeho bishobora kujyamo nkongwa ikaba yabyangiriza cyane.

Utuyira tunyura mu murima ntabwo aba ari twiza kuko abatunyuzamo bose ntabwo ari ko bitwararika mu bijyanye no kwangiza imyaka, usanga abana batoya iyo batunyuzemo bagenda bangiza n'ibyo basanzemo.

Dushishikarizwa ku ifunguro ryacu ya buri munsi kuba twarya imboga kubera ko imboga zirinda indwara mu mubiri wacu kandi uwaziriye abaho ubuzima bwiza buzira indwara.

Abantu ba kera bakundaga kurya isombe ariko ubu bigenda bicika kubera ko itagikunze kuboneka ahantu aho ari ho hose ahubwo bisaba kuba wagenda ukayigura kandi ntabwo iboneka mu buryo umuntu ayikeneramo agahita ayibona.

Tujye twirinda kujya mu mashyamba kubera ko haba hari ibintu byinshi byatuma dutakaza ubuzima bwacu, bityo rero niba dukeneye no gukora ubukerarugendo hari ababishinzwe badufasha tutijyanyeyo.

Ni kenshi uzabona umuntu wateye ishyamba rye rigakura Leta y'u Rwanda imubuza kuba yarisarura kubera ko atabifitiye uburenganzira ahubwo bikamusaba kujya kwaka ikemezo kemeza yuko iryo shyamba yemerewe kuba yasarura ibiti byaryo.

Mu mashyamba y'inzitane si byiza ko tujyayo kubera ko aba ari ibintu byinshi byakwangiza ubuzima bwacu. Usanga barushimusi ariyo bibera kugira ngo bakore ibikorwa by'ubugizi bwa nabi.

Guhinga ibihingwa mu biti ni ukuvuga guhinga mu mashyamba si byiza na byo kubera ko ibiti bikurura ibyo bihingwa bigatuma bipfa.

Mu mashyamba ntabwo ari ahantu ho gutura ku muturage wamaze kumenya agaciro k'ubuzima bwe, niyo mpamvu gutura ahantu habugenewe iyo tubishishikarijwe ntitukajye twinuba.

Abakerarugendo bagomba kujya bitwararika, cyane cyane igihe bagiye gusura inyamaswa mu ishyamba cyangwa muri pariki bakajyana n'umuyobozi wabo kugira ngo agumye abahe amabwiriza.

Abantu bajya gusura mashyamba cyane cyane abakerarugendo, ni byiza ko bagomba kuba bafite umuyobozi wabo ,uba uzi uburyo umuntu yabana n'inyamaswa ntizigire icyo zimutwara.

Iyo umuhinzi yejeje usanga afashe ibase akajya gusoroma imbuto ze, ubundi akazijyana mu isoko bakamuha amafaranga, nawe akaba yahahamo ibindi byo kurya yari akeneye kugurira umuryango.

Burya iyo amapera yeze neza ashobora kuyacuruza nayo akavamo amafaranga cyangwa se bikaba imbuto mu banyamuryango bagomba kujya biriraho gake gake bitagoranye ndetse ntibabe bajya kuzishaka n'ahandi kuko bazifitiye.

Buri bwoko bw'ibihingwa bugira uburyo bwiza bwo kuba wabusaruramo ndetse n'ibikoresho ukoresha ntibihura n'iby'ubundi buryo wahakoreshamo ugiye gusarura indi myaka, ariko ibingibi bimenywa n'abahinga ubwo bwoko gusa.

Abahinzi bose bashimishwa no kubona ko ibyo bahinze bifite umusaruro kandi byeze, cyane baba barabitayemo imbaraga kugira ngo bimere babisarure ari byiza.

Iyo wihingiye amashu hehe no kongera gutekereza ibintu byo guhaha imboga, ahubwo uragenda ukazikorera binyuze mu buhinzi bwawe kandi ugasagurira n'amasoko n'abandi bakaba babonaho.

Ubuhinzi bw'amatunda butanga umusaruro mu gihe gitoya kandi bigira amafaranga menshi cyane umuntu wese yakwifuza kugira, bityo ni byiza ko ufite ubushobozi yatekereza icyo kintu.

Gusarura imyaka yawe wahinze, biba bishimishije kandi uwamenye ibanga ryo guhinga amatunda, agira amafaranga menshi cyane atabasha kwiyumvisha ariko nawe bigusaba imbaraga kugira ngo ubigereho.

Ntako bisa kuba umuhinzi wahinze indabyo azirimo ndetse abona binagenda neza kuko abishoramo imbaraga nyinshi bigatuma na we yitega umusaruro uhambaye.

Ni byiza gutera imbuto kugira ngo tuzazirye zitunge umubiri wacu neza kandi ibi ngibi byose bituma imibiri yacu irindwa ikagira abasirikare bakomeye kubera ko turya imbuto.

Abantu bamaze kumenya ibanga ry'amapapayi ko ari imbuto zishobora gutuma umubiri ukora neza, cyane cyane kuzifata umaze kurya byo biba ari akarusho kubera ko bituma n'igogora rigenda neza mu mubiri.

Ni byiza ko imbuto z'amoko yose tugomba kuzigira kuri buri funguro, byibura tukazikoresha buri munsi cyangwa se tugakoresha izo twabashije kubona uwo munsi kugira ubuzima bwacu bube bwiza.

Mbere y'uko abantu biga ibijyanye n'ubuhinzi, bagomba kuba hari amakuru babifitemo, hanyuma ibyo bikazabafasha kuba bakora ubushakashatsi bakavumburiramo n'ibindi bijyanye n'ubwo buhinzi.

Iyo ugeze mu murima wawe wahinzemo imyaka cyangwa imbuto ukabona zarahishije, zeze mu buryo ushaka, urabyishimira bikagutera n'imbaraga zo kuzongera guhinga byinshi, ikindi gihe.

Nyuma y'uko abaturage bamenye uburyo bwiza bwo kuba bahunika imyaka yabo mu bihoho kugira ngo bazabone uko bayitera neza ibi byatanze umusaruro mwinshi ugereranyije na mbere.

Imbuto z'amoko menshi iyo twazihinze zikera tugomba gusiga zimwe turya mu muryango, ndetse tugasagurira n'amasoko igihe zabaye nyinshi, ni ukuvuga kuzijyana kuzicuruza.

Uburyo bwose bwo kuhira imyaka, umuhinzi agomba kuba abuzi kubera ko buri gihe uzajya ukoresha uburyo bumwe wuhira, ahubwo wiga n'izindi ngamba z'uburyo wajya wuhiramo imyaka yawe kandi neza.

Ni byiza ko buri wese ashishikarizwa gahunda yo kuhira imyaka ye. Icyo gihe iyo uyitayeho, ntakabuza umusaruro urawubona nkuko bikwiriye ariko iyo utabyitayeho nawe bikugendekera nabi.

Buri wese agomba kuba afite uburyo bwiza bwo kuhira imyaka ye, kuko ntabwo twakwizera ko ibihe by'imvura n'izuba, bizaza nkuko tubyifuza buri gihe, ahubwo tugomba gushyiraho n'uburyo bwo kuhira twebwe ubwacu.

Uburyo bwo kuhira bwamaze kuba bwinshi, kugeza n'ubwo basigaye bakoresha imodoka zifite n'amapine kugira ngo zuhire imyaka yabo, aho kujya buhiza ibindi bikoresho.

Uburyo buciriritse bwo kuba wakuhira imyaka yawe ushobora gukoresha rozwari ariko abamaze gutera imbere bakoresha ibindi bikoresho bihenze cyane kugira ngo imyaka yabo bayiteho cyane.

Ahantu hakunze kwaka izuba, ni byiza ko dushaka imigozi yuhira amazi kugira ngo iyo myaka yacu itumo. Ibi ngibi bikunda kubaho cyane cyane mu Ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, niho usanga haka izuba ryinshi bigatuma imyakayuma.

Nyuma yo kumenya uburyo bwinshi cyane bwo kuba wakuhira imyaka, buri muntu wese yahisemo ubwamworohera bitewe n'ubushobozi bwe bityo ufite ubushobozi buri hejuru agakoresha uburyo buhenze.

Niba uteye igiti ugomba kukicyitaho kenshi gashoboka, kubera ko utacyitayeho gishobora kuma cyangwa kigafatwa n'ibindi byonnyi bityo bigatuma icyo wari ugamije kugeraho utakigeraho.

Kuhira imyaka cyangwa indabyo, biba byiza kubera ko aribyo bitanga umusaruro mu buryo bwihuse. Bityo rero iyo uteye imyaka ntuyiteho, umusaruro uba mukeya ugereranyije n'uko wayitaho.

Kuhira imyaka bisaba kuba ufite ubushobozi ndetse kandi n'imbaraga zawe bwite kubera ko iyo utabyitayeho nta musaruro mwiza ubona.

Ahantu hameze uku si byiza ko twahinga imyaka iyo ari yo yose, ahubwo buri musozi ufite imyaka ihingwaho bijyanye n'ubutaka bw'aho kugira ngo yere neza.

Gutura mu negeka ntabwo byemewe. Iyo ubikoze wirengera ingaruka zizavamo, nyamara leta y'u Rwanda ihora idushishikariza kubireka kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze burindwe kandi bumere neza.

Si byiza gutura ahantu mu manegeka kuko bishyira ubuzima bwacu mu kaga ugasanga iyo imvura iguye ari nyinshi ishobora gutwara amazu y'abaturage bityo bagasiga ubuzima aho hantu.

Ahantu hameze uku hari amazi ubona ko ari menshi ayo mazi kandi ari mu bibaya, si byiza ko haterwa imyaka kubera ko umuvu ushobora kuza ukayitwara.

Kera wasangaga ahantu hataragera amazi hakiri henshi. Umuntu akora urugendo nk'uw'ibirometero mirongo itatu, agiye gushaka amazi, bityo akajyana nk'igare utarifite bikamugora, bikamusaba ubundi bushobozi.

Si byiza ko dukorera cyangwa dutura ahantu hari amazi cyane kubera ko hashobora kuza umwuzure, bigatuma ubuzima bwacu buhagendera, nyamara twari dukwiye kubyirinda.

Wasangaga abana ba kera barakundaga kujya kwidumbaguza ahantu hari ibiyaga ariko nyuma y'uko bigaragaye ko abantu benshi bakunze kuhasiga ubuzima ubu byashyizwemo imbaraga nta we ugipfa kujyayo.

Ahantu hari amazi nk'aha hahanamye, si byiza kuhatura kubera ko igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwawe bushyize mu kaga, ushobora gutuma ubutakaza.

Guhinga ahantu yegeranye n'ibiti bishobora gutuma imyaka yawe itera neza, kubera ko ibiti bikurura iyo myaka bigatuma ipfira mu murima bikayirusha imbaraga, bityo umusaruro wari witeze ntuboneke.

Korora inkoko bisaba imbaraga nyinshi kubera ko ntushobora kubikora udafite amafaranga ngo ube wagura ibyo kurya byazo n'ibindi birimo nk'imiti yazo, zikenera buri munsi.

Korora amatungo magufi cyane cyane inkwavu bisaba kuba warabyize ubifiteho ubumenyi buhagije kandi ukaba ufite umuganga w'amatungo uzajya uzitaho kenshi gashoboka kugira ngo azikingire.

Ubworozi bw'inka bwo i Nyagatare bukunda kugaragara ko butanga umusaruro. Cyane cyane butanga umukamo kandi umukamo utuma n'abana bacu babaho neza, ntibarware bwaki.

Ni byiza ko buri muntu wese yita ku matungo yoroye kubera ko itungo iyo waryitayeho rishobora gukura neza kandi rikazatanga umusaruro, harimo no kuba ryaguha amafaranga cyangwa se ibindi birikomokaho.

Biratangaje cyane ukuntu itungo ry'ingurube ribwagura ibibwana bigera mu icumi kandi rikabikuza nyamara ubona ari ibintu bidashoboka.

Amatungo magufi na yo, agira umusaruro ku muntu wayitayeho kubera ko nk'ihene zororoka mu gihe gitoya kandi amafaranga yazo aba ari menshi ku muntu wabyitayeho rero ubwo buba ari ubukire.

Gahunda yo gukingiza amatungo, ni iya buri wese woroye kubera ko hari abanga kubikora ngo biri gutuma batanga amafaranga menshi. Nyamara ugasanga iyo itungo rirwaye, rigutwara ayakubye inshuro nyinshi ayo wari gutanga.

Bikunze kuvugwa ko iyo ingurube ibwaguye ibyana byayo, bigahita bigumaho ishobora kubirya igihe yashonje, kubera yuko niko ingurube ziteye, zirya ibyo aribyo byose kandi n'inyama zirimo.

Nugira amahirwe ugakora umushinga wo korora inkoko ,hanyuma uwo mushinga ukaza kugenda neza, ni byiza ko uzawitaho kuko bizagirira umumaro wowe ndetse n'abandi.

Ibintu byose biba bifite ahantu bitunganyirizwa cyane cyane mu nganda, kubera ko iyo abantu umusaruro bawubonye ntabwo bahita bawikorera nk'uko bikorwa, ahubwo bawujyana ku nganda bakawutunganya.

Ndakubwiza ukuri ko nutegura umushinga wo korora izi nkoko zo mu bwoko bwa saso utabitekerejeho neza ushobora kuzahomba burundu ukicuza n'icyo watekereje ibyo bintu kuko bisaba imibare myinshi ndetse n'ubwenge bwinshi.

Ubworozi bw'inka mu karere ka Nyagatare, butanga umusaruro cyane kubera ko abantu usanga bafite isambu nini cyangwa se urwuri rwo kuba bararagiramo izo nka, bityo zikororoka neza kubera ubwatsi buhaba.

Iyo woroye inkoko zikiri ntoya zikamara gukura bingana uku biragushimisha kubera ko uba ufitemo amafaranga menshi kandi ntushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose kuko wagikemura ugurishijemo inke muri zo.

Abantu bibumbiye muri koperative runaka iyo umusaruro wabo bamaze kuwukusanya bawushyize hamwe bagomba kuwitaho bagashyiramo imiti ishoboka yose kugira ngo utazangirika ubundi bazawujyane ku masoko ukimeze neza.

Gutoranya imbuto mbere yo kuzitera biba ari byiza, kubera yuko iyo uteye imbuto zo wibone izo ari zo zose, bituma zitera kubera ko imbuto zera neza n'iz'intoranwa gusa.

Mbere yuko uhinga imyaka yawe ni byiza kubanza gutoranyamo imyiza, akaba ariyo utera kuko itanga umusaruro mu buryo bwiza kandi bworoshye, aho kugira ngo utere ibijonjorerwa.

Umusaruro mwiza ushimisha nyirikuwuhinga ariko none biba byaraturutse ku mbaraga yakoresheje, yita kuri uwo musaruro kuko uwihoreye ntuwiteho ntago nawe wawubona.

abaganga baba bafite uburyo bwinshi bwo gusuzuma indwara, hari igihe bisaba ko agira nk'inyama abaga ku muntu kugira ngo ajye kuyisuzuma bityo amenye indwara nyiri'zina.

Iyo inka byayinaniye kuba yakibyaza, bagakoresha ubushobozi bwose bikanga, bagomba kuyibaga bagakuramo umwana, ubundi bakongera bakaba bayidoda igasubirana.

NIi byiza gufatanya na muganga w'amatungo, igihe agiye kutuvurira itungo ryacu ryarwaye bityo bikamworohereza akazi kuko kugakora ari wenyine bishobora kumutwara umwanya muremure kandi twabasha kumufasha.

Burya gukingiza inka bisaba kuzijyana ahantu habugenewe ku buryo zitari bugorane cyane, bakaba bazitera inshinge cyangwa se bikongera gukorwa igihe bashaka kuba bazambika amaherena.

Igihe cyose hagize igikorwa kiba cyo gukingira inka cyangwa kuzitera amaherena, tugomba kuzijyana veterineri ubishinzwe akazitaho kubera ko icyo gikorwa cyiza rimwe mu mateka.

Umuganga w'amatungo agomba kwita ku miti agiye gukoresha mbere y'uko avura ayo amatungo kuko iyo atabyitayeho ashobora gutuma iryo tungo rirembera rimwe aho kugira ngo ribe ryabasha gukira.

Intare y'ingore burya igira amahane kuruta intare y'ingabo, ariko ibyana byayo usanga biba bitaragira ubugome maze bikabutozwa n'ababyeyi babyo.

Iyo ugeze muri pariki y'Igihugu uhasanga ubwoko bwinshi bujya butandukanye bw'inyamaswa, zimwe ugasanga wazibonye ku mashusho, izindi ugasanga ntiwigeze uzibona, hakaba hari n'izo wiboneye amaso ku maso.

Byari bizwi ko inyamaswa zose zabaga zitwayemo imwezi iziyobora ari yo bitaga umwami w'ishyamba, akenshi wasangaga umwami w'ishyamba yarabaga atinyitse koko muri iryo shyamba.

Imwe mu bwoko bw'inyoni udakunda kubona ahantu aho ari ho hose keretse kuba wabusanga muri parike zabugenewe ziba mu bwoko bw'inyoni, iyo ububonye biragutangaza kubera ko bitaboneka henshi.

Inyamaswa kera twari tuzi nk'ibishuhe, iyo wageraga ahantu hari amazi wakundaga kubisangamo kuko byikundiraga koga kandi ugasanga ubuzima bwabo bwa buri munsi byikundira kuba mu mazi.

Ni gake uzasanga ubwoko bw'izi nyoni, ahantu hamwe bwateranye kubera yuko zikunze kugaragara ahantu mu ishyamba gusa ndetse zikunda gukurura ba mukerarugendo baza kuzisura.

Ni gake cyane uzabona ubwoko bw'izi nyamaswa kubera ko ubu bunyamaswa ni umuhigo w'intare cyane cyane, iyo uhuye n'intare biba bisa n'aho ubuzima bwabwo burangiriye aho.

Ahantu hameze nko mu butayu ntabwo haterwa imyaka, kubera ko uyiteye ishobora guhita yuma kandi nta buryo bwizewe buba buhari bwo kuba wayuhira kubera ko atari mu bishanga.

Inyamaswa zo ku gasozi ntushobora kuzibona ahantu ariho hose bigusaba kuba wakora urugendo ukajya mu ma pariki cyangwa se ukaba wahurira nayo ahandi hantu ariko mu ngo zacu ntabwo zikunze kuhaza.

Inyamaswa nuyibona uzajye uhita wiruka kubera yuko ni mbi cyane kandi ntabwo ishobora gutuma ugira amahoro igihe yakubonye.

Si byiza ko winjira muri pariki iyo ari yo yose ngo ugiye kureba inyamaswa nta burenganzira wabiherewe n'u ubishinzwe, kubera ko aba harimo inyamaswa z'inkazi zishobora kubazakugirira nabi ubuzima bwawe bukabura uko.